Hari abana bambaye impuzankano y'ishuri, bamwe bari ku ruhande rumwe bakikije ameza, abandi na bo bari ku rundi na bo bakikije ameza, bicaye ku ntebe buri umwe iye ariko begeranye, barasa nk'aho bari kwiga.

Hari abana bahagaze mu gisambu batonze umurongo, ni abana batoya bari kugenda bagana ku rukarabiro, hari umubyeyi ari kugenda abakarabya intoki.

Urukuta rushushanyijeho abana batatu b'abanyeshuri, bahagaze bemye bareba idarapo ry'igihugu bose.

Ku kigo cyamashuri hari abanyeshuri benshi, hari umwana muto wambaye ijipo ndende, yifubitse n'umupira, ari kugenda agana aho abandi bana bari.

Umuhanda w'igitaka, hariho icyapa impande yacyo hari umurima uteyemo ibiti bigufi n'ibirebire, harimo imodoka ziri gutambuka muri uwo muhanda.

Ikibaho kiri ku rukuta, gishushanyijeho umuntu, hagiye handitseho ubusobanuro bwa buri gice cyo ku mubiri w'uwo muntu washushanyijwe.

Hari inzu igaragara igice kimwe gusa kiriho amadirishya, mu nguni harimo umwana mutoya wambaye ishati ya buresiyeri ipantaro ya kaki.

Umuhanda urimo abana batoya b'abanyeshuri bari kugenda harimo babiri bafatanye umwe ahetse igikapu n'abandi bari kugenda.

Abana bari mu ishuri abahungu n'abakobwa bicaye barebana bisa nkaho hari icyo barimo baraganiraho, umwe muri bo yumiwe yifashe ku munwa.

Mu kigo cy'amashuri harimo ibipine byinshi birunze, harimo umwana w'umuhungu w'umunyeshuri wambaye impuzankano ndetse hari n'ibirabyo.

Abana, abahungu n'abakobwa bakoze uruziga barimo barasimbuka, hagati harimo umuntu mukuru, asa nk'aho arimo arabayobora mu mikino barimo.

Ni mu kigo abanyeshuri bambaye impuzankano y'ubururu, barimo baratambuka harimo abahungu n'abakobwa, bamwe bazamuka abandi bamanuka.

Abana b'abanyeshuri bicaye ku ntebe bari mu ishuri, harimo abahungu, abakobwa bafite ibitabo bari gusoma.

Ni mu ishuri harimo abana batatu, umukobwa umwe n'abahungu babiri, bicaye mu ntebe, barasa nk'abanyeshuri barimo barareba muri mashini bari kwiga.

Abana bato b'abanyeshuri bambaye impuzankano ishati ya buresiyeri n'ijipo ya kaki, harimo abahungu n'abakobwa bari kwinjira mu ishuri.

Ni ku ishuri hari abanyeshuri benshi, umwana umwe ahagaze mu muryango ari kureba hanze, abandi bari hamwe ari benshi.

Abanyeshuri bari kwihuta; umwe yikoreye ibase, bambaye impuzankano: ikabutura ya kake n'ishati ya bleu ciel, undi afite agakapu yagashyize ku mugongo.

Imifuka yanditseho ndetse yandikishijwe ikaramu, yanditseho ibihekane n'amagambo atandukanye, imanitse mu ishuri ndetse harimo n'abanyeshuri.

Ni mu kibuga hagati mu kigo, harimo ibyatsi, indabo, harimo abanyeshuri babiri b'abakobwa barimo baragenda, basa n'abari kumanuka bajya mu ishuri.

Ni mu kigo cy'amashuri hagati amashuri amwe hepfo, andi ruguru, andi hirya hagati harimo akayira ndetse hari n'umwana uri gutambuka w'umunyeshuri.

Hari imifuka igeze kuri itatu, imanitse ku rukuta, bisa nk'aho yanditseho ibihekane n'amagambo, byandikishije ikaramu.

Abana batatu b'abahungu b'abanyeshuri bambaye impuzankano y'ishuri, mu ishuri harimo intebe, umwe afite isahane, mu ntebe harimo ibikapu bisa nkaho biririmo amakaye.

Igikuta kiriho irangi ryumweru gishushanyijeho abana batatu b'abahungu bambaye impuzankano barimo barakina umupira w'amaguru.

Abana b'abanyeshuri bicaye hamwe bari gusoma igitabo, abahungu batatu n'abakobwa bane bose bakurikiye barimo gusomera hamwe bari mu ishuri.

Ni ikigo cy'amashuri hagati hari ikibuga, inyuma yaho hari urutoki, ndetse n'ibindi biti. Hari ishuri ndetse hakaba n'ahubatse ubwiherero.

Ni mu kigo cy'amashuri hari aharunze amabuye ruguru harubatse, hari abanyeshuri benshi abamanuka, abazamuka, hari ibiti bigiye biteye n'ubusitani ndetse n'indabo.

Ni mu ishuri hari ikibaho cyanditseho imibare, amagambo, nta banyeshuri bari kwiga nk'uko bigaragara.

Ibitabo biri mu ka etajeri bigiye bipanze hakurikijwe ubwoko bwabyo, hari intebe hari ndetse n'ameza bigaragara ko ari mu isomero.

Hari abanyeshuri bambaye impuzankano z'umukara n'umweru, bamwe bafite imipira abandi ntayo bafite, bari ahantu hamwe.

Hari ikibuga bakiniramo hiryamo hari igiti kirekire, hari n'agatebe, hirya yaho hubatse ishuri rifite amadirishya n'imiryango ifite ibara ry'icyatsi.

Hari icyapa cyanditseho" Ecole Secondaire Sainte Trinité de Ruhango" , option: - Ordinary Level, -Computer science, -Economics -Mathematics - History - Economics-Geography - Mathematics- Economics - Geography B.P. 37 Ruhango Numero za telefone, E-mail Hatwereka ko ari mu birometero magana inani.

Abanyeshuri bambaye impuzankano, umweru hejuru hasi kaki, barasa nk'abakurikiye hari abahagaze ndetse hakaba n'abicaye.

Abanyeshuri bambaye impuzankano benshi ,harimo abahungu n'abakobwa bahagaze ku murongo ,imbere yaho hari umugabo uhagaze usa nkaho hari ibyo ari kubabwira.

Imodoka ya tagisi itwara abanyeshuri, bageze ku ishuri barimo barayisohokamo, ni abana batoya bambaye imyenda ya siporo y'ishuri bahetse n'ibikapu.

Ni mu muhanda hari abanyeshuri babiri bari kugenda berekeza ku ishuri, hakurya hari ikigo cy'amashuri mo imbere hari idarapo ry'igihugu, hari n'abandi bantu bari gutambuka muri uwo muhanda.

Umunyeshuri wambaye impuzankano ishati y'umweru, ipantaro ya kaki, ari mu muhanda ndetse ari ku igare, hakurya y'umuhanda hari umuntu uri gutambuka.

Umugabo wambaye akajire k'umukara, yambaye n'umupira mo imbere w'umweru, agaragara igice kimwe, ari kwerekeza imbere ye hari abanyeshuri, hari n'amashuri, ni inyubako y'ikigo cy'amashuri.

Abagabo babiri bari ahantu hari intebe zibaje, zisa nkaho ari nshyashya, ibigaragara barishimye, bambaye imyenda, umwe yambaye umupira w'imbeho, undi yambaye umupira w'umukara.

Ni mu kigo cy'amashuri aho hahuriye abantu benshi bamwe bicaye ku ntebe z'amapalasitike z'umweru, abandi bahagaze imbere yabo, ni abasore benshi bambaye impuzankano ziriho n'ama nimero bigaragara ko ari abakinnyi b'umupira.

Icyapa kinini, kiri ku gikuta cy'ishuri. Handitseho Monastere de gihidamuyaga Ecole Autonome de Butare.

Ni mu ishuri, abanyeshuri bari kwiga, abari kwandika, bameze nk'aho bari mu kizamini kuko buri wese yicaye ukwe batandukanye.

Abanyeshuri bambaye imipira y'umweru ifiteho akabara k'umutuku, bambaye ingofero, bambaye amajipo ya kaki bari ku murongo, bameze nk'aho hari icyo bakurikiye.

Abanyeshuri benshi bambaye ubururu hasi hejuru umweru bambaye n'udupfukamunwa, baricaye buri wese yicaye ku ntebe ye, barasa nk'abakurikiye umuntu umwe bose.

Umunyeshuri uhagaze imbere y'abandi bari mu ishuri ari benshi abandi baricaye baramukurikiye, imbere ye hari ameza ariho ikaye, ndetse n'ikaramu afite mikoro.

Abanyeshuri benshi bahetse ibikapu, barasa nk'abatashye cyangwa abagiye kureba imodoka; hirya hari imodoka bari kugenda binjiramo, abandi barahagaze.

Abanyeshuri, bambaye impuzankano, amashati y'umweru, amajipo ya kake, inkweto z'umukara n'amasogisi y'umweru, bari ahantu hari inyubako nini, itaruzura. Ni abahungu n'abakobwa.

Hari porotaye ifite ibara ry'ubururu, n'ikigo cy'amashuri cya Kigoma secondary school Indangamirwa, hariho kirazira n'indangagaciro z'icyo kigo.

Abanyeshuri bambaye impuzankano bari ahantu mu kibuga, bicaye ku ntebe, imbere hari abayobozi basa nk'aho hari ibyo bari kubabwira, bicaye batandukanye, babiri ku ntebe.

Abagore babiri, umugabo umwe n'umuhungu umwe, bari ku rugi, barasa nk'aho bari gukomanga bategereje ufungura.

Imodoka ikinguye irimo umwana mutoya uhetse igikapu usa nk'aho avuye ku ishuri, ari gusohoka mu modoka, ndetse harimo n'umutwaye wicaye imbere.

Abanyeshuri bicaye hanze benshi, bamwe bambaye imipira isa ubururu, abandi amashati y'umweru, imbere yaho hahagaze abagabo babiri, umwe arasa naho ari kubaganiriza, undi ari ku ruhande, hirya yabo hari amashuri.

Ni mu ishuri hari ikibaho cy'umukara cyanditseho imibare, bisa nkaho ari abanyeshuri bari kwigishwa.

Abanyeshuri benshi bambaye impuzankano, amashati y'umweru n'amajipo ya kaki, bicaye mu ntebe, muri salle imbere yabo hari urimo aravuga.

Abanyeshuri bari kugenda bahetse ibikapu abandi bafite materala mu ntoki, biragaragara ko basa nk'abatashye cyangwa se abasubiye ku ishuri.

Ni mu muhanda w'amabuye, hepfo hari inzu iriho ibirabyo byinshi, ruguru hari inyubako imeze nk'ikigo cy'amashuri, mu muhanda harimo abanyeshuri bari gutambukamo.

Abanyeshuri bicaye hanze, ni benshi bambaye impuzankano, hari ubahagaze imbere w'umugore, usa nkaho hari ibyo ari kubabwira, ndetse hari n'umunyeshuri uhagurutse, usa nkaho hari igitekerezo ari gutanga.

Abanyeshuri bicaye muri salle, bambaye impuzankano; amashati y'umweru n'amajipo y'ubururu, bose barakurikiye bafite amakayi n'amakaramu, imbere hicaye abantu bagera kuri batandatu, bigaragara ko ari nk'ikiganiro bari guhabwa.

Mu kigo cy'amashuri hagati mu kibuga bakiniramo volleyball, abanyeshuri b'abahungu bari gutambuka ni benshi, batatu imbere, hari n'irindi tsinda inyuma yabo hari n'abandi, hagati mu kigo harida idarapo ry'igihugu.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri babiri ku ntebe, harimo mwarimu wabo wambaye itaburiya, afite mashini imbere ye ndetse hari n'amakayi bisa nk'aho bari gukora ikizami, hari ikibaho inyuma cyanditseho n'amadirishya akinguye.

Mu ishuri imbere ku kibaho hari ibyanditseho, harimo intebe ariko zitagize abazicayeho, harasa neza.

Inyubako ndende ifunguye amadirishya, hariho esikariye wuriraho winjiramo, imbere yaho hari ibiti birebire.

Ubusitani bukikijwe n'indabo ku mpande, hagati harimo itara, hirya hari ibiti binini bihakikije, hari intebe ,hari abazi ndetse hari n'abazicayeho.

Ni mu cyumba hari urukweto, hari intebe iriho ishati, hari imeza iteretseho akajekane, ibikombe ndetse hari n'uburiri hari ahamanitseho umupira.

Hari inyubako igaragajwe igice kimwe cy'imbere, hari aho kwinjirira, hari ahari ibirahure, isize amarangi y'umweru n'ibara ry'ivu.

Abantu benshi bateraniye muri sale, imbere yabo hari umuntu uri kuvuga bose buri wese afite mashini ndetse n'agacupa k'amazi imbere ye, bose barasa nkaho bakurikiye uri imbere ari kubabwira.

Igitanda kigeretse kabiri gishasheho uburiri. Uburiri bw'amashuka y'umweru, ay'umukara uva hejuru nabwo burashashe buriho umusego hirya y'aho hari akantu bamanikaho imyenda.

Mu kayira kari hagati mu ishyamba, ishyamba riri hepfo n'irindi ruguru, akayira ntabwo karimo kaburimbo.

Hari icyapa kimanitse ahantu inyuma hari ibiti cyanditseho katoliki yunivaziti ofu Rwanda.

Ni icyapa kinini cyanditseho amagambo yanditse mu Gifaransa, mu Cyongereza ndetse no mu Kinyarwanda, avuga ngo ishyamba rya Aruboritumu, kimanitse ahantu hari ishyamba.

Ni mu gahanda hirya hari inzu isize amarangi y'umuhondo, hari ibiti, hari intebe zicayemo abantu, hari n'umusore uri gutambuka mugufi afite igikapu mu ntoki.

Ni mu kigo hagati hari amajerekani agera muri ane, umufuka wa sima, ndetse hari n'isume imanitse ku mugozi n'amabase ari imbere y'inzu.

Ni abantu benshi bameze nk'abari gusenga, imbere yabo hari umugabo ufite indangururamajwi uri kuvuga, imbere hari amabafure menshi, bose barahagaze.

Hari icyapa gisa nk'ikiri ku muhanda, cyanditseho ayipiyarasi Huye repeya senta pawadi bayi pozirivu biji eyici.

Ni inyubako igeretse kabiri, bigaragara ko habamo abantu, hanitse imyenda kuri iyo nyubako harimo iy'ibitenge n'indi itandukanye.

Imiryango y'inzu yose ifunze, hari abantu babiri bari gusohoka bagana hirya, hari n'akantu ko gushyiramo imyanda.

Abantu benshi bicaye muri sale, bafite amakayi n'amakaramu bameze nk'abari mu nama, hari abahagaze bafite amakamera barimo barakamera.

Inyubako zisa nkaho ari amacumbi y'abanyeshuri, hari umugozi wanitseho imyenda ndetse hari n'akayira abantu bacamo, hari igiti kirekire ndetse n'inyuma hari ibiti byinshi.

Ahantu hagati y'amazu harimo haratambukamo umukobwa wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umweru, imbere ye hari ahantu hari amatente n'imbere ye hakaba hari umusore uri kugenda, hari n'ibirabyo ku mpande.

Hari igitanda kigeretse kabiri, hirya hari akabati, hari vandarateri, uburiri bwo hasi burashashe ubwo hejuru burasa nk'uburiho ibikapu budashashe ndetse hari n'amavuta n'ibindi bikoresho biteretse hejuru y'akabati.

Na hantu hasa nkaho ari mu biro hagiye hari ameza ariho intebe eshatu, hejuru hateretseho mashine, ndetse hari n'utubati tugiye turimo ibikoresho bitandukanye.

Umuhungu n'abakobwa bagera kuri bane, bicaye ahantu bafite amakaramu, ibikapu, imashini, barasa nk'abarimo bariga.

Muri parikingi iri hagati ahantu hubatse hasa nk'aho ari ku biro, haparitse imodoka ifite ibara ry'umukara.

Mu ishuri harimo intebe, hari amarido, hari amatara, birasa nk'aho nta banyeshuri bicayemo, nta muntu n'umwe uri muri iryo shuri.

Abantu benshi, bicaye muri salle, buri wese yicaye ku ntebe ye. Buri wese kandi afite imashini imbere ye. Imbere hari uhagaze, asa nkaho hari ibyo ari kubabwira, nabo bamuteze amatwi.

Ni mucyumba hari uburiri bushashe, hariho umusego, hari imyenda imanitse, amashati n'amapantaro, hari na cagi icometse muri purize.

Hari abantu bari kugenda mu muhanda, uwo muhanda urimo ibinogo bigiye birimo amazi, inyuma yabo hari inyubako ndende no mu mpande zaho hari indi nyubako ndende, bane bari kugenda baza imbere, undi wambaye umukara ari kugenda nawe akomeza imbere.

Ni mu cyumba cyo kuryamamo hari uburiri bushashe neza, bufite n'imisego, hari intebe, akabati ndetse n'amarido.

Inyubako yuzuye neza, inyuma yaho hari indi ikiri kubakwa, hariho amabati ahakikije, hari abagabo babiri bari hejuru, bari kubaka.

Abantu batatu bicaye ku ntebe, imbere yabo hari imeza ndetse hari imbere yabo umugabo ufite mashini urimo arababwira.

Hari umugore w'umuzungu, wambaye agapira k'umukara n'ijipo. Afite mikoro ari imbere mu ishuri, arasa nk'uri kwigisha ndetse hari ibyo ari kubabwira.

Hari inyubako ndende, amasikariye azamuka, umwana w'umukobwa ari kuzamuka wambaye ikanzu y'umukara n'ikote, hirya hari imigozi imanitseho imyenda.

Ahantu hasa nkaho ari muri laboratwari abanyeshuri bakorera ubushakashatsi, hari ibikoresho byifashishwa, hari ibimeze nk'amaravabo, hakaba hasize amarangi y'umweru.

Inyubako igaragara ko ari ibiro byanditseho, ofise ovu de kampasi adiminisitureshoni. Imbere hari ubusitani burimo, buteyeho igiti ndetse na pasiparume.